Umwana ukiri muto wari ukikiwe na nyina yicaye ku bibero bye, iruhande rwe rw'iburyo hahagaze umuntu wambaye itaburiya ari kumutera urukingo.

Umwana ukiri muto uri kwikorera indobo isa umuhondo ikaba irimo amazi, nuko imbere ye hari amariba ane aturukamo amazi, imbere ye hakaba hari umuntu wari umufashije ingata ahagaze ngo abanze ayizamure, ubundi ayimushyirireho.

Umubyeyi uteruye umwana ukiri muto, iruhande rwe hicaye abandi bana, ndetse imbere ye ku rundi ruhande hagaze abantu bigaragara yuko bita ku buzima bw'umwana, akaba yaraje kumukingiza ndetse no gukurikirana uko ubuzima bw'umwana buhagaze ndetse n'ubwe.

Umwana ukiri muto w'umukobwa yicaye ku gitanda cyo kwa muganga arwaye, iruhande rwe hari umuganga w'igitsina gore ari kumufatira ngo arebe umuvuduko w'amaraso afite uko nngana, iruhande rwe rundi hahagaze undi muganga ufite ikayi ishobora gufashishwa bandikamo ibyo babonye.

Abana benshi bagiye batandukanye, n'abantu bakuru batandukanye harimo ushinzwe umutekano bakaba bari kugaburirwa nabo ndetse banabitaho.

Abantu b'igitsina gabo benshi ndetse n'igitsina gore umwe akaba arimo abera ndetse n'abirabura bamwe baricaye abandi barahagaze bakaba baari bari gufata amashusho nyuma y'inama.

Abantu batandukanye, harimo abera ndetse n'abirabura bicaye mu ntebe, imbere yabo hari indangururamajwi, ndetse n'amacupa y'amazi, hakaba hari uwicaye hagati, akaba ari we uyoboye inama, akaba yari iri kubera mu Rwanda, ndetse hakaba hari n'idarapo ribihamya.

Abana babiri bakiri bato bari ku iriba bakaraba intoki kugira ngo birinde indwara ziterwa n'umwanda.

Ikigo cyo ku rwego rw'isi kita ku buzima, akaba ari amagambo yanditse munsi, hejuru hakaba inzoka iri hagati mu ishusho, ikaba yizingazingiye ku giti, iruhande rwayo hari ingano zikikije icyo gishushanyo.

Abantu benshi batandukanye harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore bicaye mu cyumba ahari kubera inama, imbere yabo hateretse amazi ndetse bakurikiye.

Umwana muto ufite isabune mu ntoki, ikiganza cy'umuntu mukuru ufashe ijage irimo amazi ari kumusukira ngo akarabe kugirango abashe kuba yakwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Abantu batandukanye bicaye mu nyubako, bari kwigishwa uburyo bakwiriye gufata ubuzima bwabo, hakaba hari harimo abamama ndetse n'abagabo basa nk'aho bakuze n'abasa nk'aho bakiri bato.

Umuntu w'igitsina gabo, uri kurira ndetse n'ijisho ryatukuye, bigaragara yuko afite agahinda yatewe n'ibikomere bitandukanye cyangwa se ikibazo yagize.

Umukecuru ugeze mu za bukuru, wari ufite akanyamuneza, imbere ye hari amashyiga arimo inkwi, ndetse ariho n'isafuriya, afite umwuko mu ntoki, ari kuwukoresha atetse, iruhande rwe hari ibikombe ndetse n'umupfundikizo upfundikira iyo safuriya.

Umugore ufite imisatsi myinshi, wambaye isengeri y'umweru, akaba afite uburoso mu ntoki ze ari gusukura amenyo ye, afite akanyamuneza kenshi.

Ibikoresho byifashishwa kwa muganga, mu buvuzi bw'amenyo ndetse hari n'intebe muganga akoresha yicayeho mu kuvura umurwayi.

Umugabo mukuru ufite ubwanwa, ari kwita ku menyo ye binyuze mu kuyakorera isuku, nkuko bigaragara mu ishusho yari yashyizemo igikoresho ari kuyahanagura, kugira ngo abashe gusa neza.

Abantu batandukanye harimo uwambaye itaburiya igaragaza yari yaturutse muri kaminuza y'u Rwanda, akaba yari umwana ukiri muto ku bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo nk'uko igishushanyo afite mu ntoki ye kibigaragaza y'uko ari amenyo y'umuntu.

Abantu bakiri urubyiruko bambaye imipira isa bigaragara nk'aho bari bari kwigishwa uburyo bakwiriye gufatamo amenyo yabo ntiyangirike nk'uko imbere yabo hari umuti w'amenyo ndetse umwe yari yahagurutse afite uburoso mu kanwa ari kuyasukura.

Umugabo wasetse yerekanye amenyo ye hafi ya yose, akaba afite ubwanwa akaba yari yambaye ikote n'agapira mu imbere. Amenyo ye bikaba bigaragara yuko ayagirira isuku bitewe nuko asa neza cyane ndetse akaba asa n'umweru, mu gihe usanga abatagira isuku baba basa irindi bara.

Umugabo wambaye amarinete ari kumanika amashusho ariho ubwoko butandukanye bw'amenyo bugeze muri bune, bukaba busa umweru ndetse hejuru yabwo hakaba hagiye handitseho amazina yayo.

Umugore wari ufite akanyamuneza, akaba yari ari kuvurwa amenyo kwa muganga, aho bari bari kureba iryinyo rishobora gusimbura rimwe muye, cyangwa se rigasimbura yose ariko ry'irikorano.

Umwana muto ufite igikinisho mu ntoki ze akaba yari ateruwe n'umuntu mukuru, bisa nk'aho yari sekuru we ari kumwitaho anamukinisha.

Umugabo wambaye agapira k'umuhondo, n'ipantaro y'ikoboyi, ufite imvi mu bwanwa, wicaye ku buriri, akaba yari ari, akaba ari gukurura imigozi imbere ye, hahagaze undi w'igitsina gabo ariwe uri kumukoresha.

Umubyeyi w'igitsina gore ukuze ndetse ufite n'imvi mu mutwe wari ufite akanyamuneza ari kumwe n'undi w'igitsina gore bigaragara yuko akiri muto ari kumwitaho, ari kumufasha kuba yakwivura amavunane bitewe n'uko ari ari indwara ikunda kwibasira abakuze.

Umubyeyi ugeze mu zabukuru wishimye cyane ufite akamwenyu, mu ntoki ze harimo amafunguro akungahaye ku birinda indwara.

Abaturage batandukanye benshi, bicaye ku ntebe, munsi y'igiti, bari gukoreshwa inama, bigaragara yuko ari ku rwego rw'umudugudu cyangwa akagari, cyangwa se umurenge.

Inama irimo abantu b'ibitsina gore gusa, ikaba imbere hahagaze umuntu umwe uri kubaganiriza, ndetse n'undi uhagaze imbere nko hagati yabo uri gufata amashusho.

Ikigo cyo mu rwanda cyita ku buzima bw'abarutuye muri rusange, kikaba gifite amagambo y'impine yanditse yanditse ngo R, B ndetse na C, munsi handitse amagambo avuga ngo abantu bazima, igihugu kizima.

Umu mama wicaye ku ntebe wambaye agapfukamunwa, iruhande rwe hahagaze undi mu mama ari kumutera urushinge bisa nkaho rwari urukingo bigaragara yuko hari hari mu gihe cy'uburwayi nka corona virus.

Icyumba cyo ku bitaro ahasuzumirirwa ikibazo umuntu afite mo imbere mu mubiri, cyane cyane kureba niba yaba afite uburwayi cyangwa se ikibyimba ku bwonko ndetse n'izindi ndwara umuntu ashobora kuba afite mu mubiri.

Inyubako bigaragara yuko iri ahantu hanini, bikaba bisa nk'aho ari ivuriro ryita ku bantu batandukanye kugirango abashe kugira ubuzima bwiza. Mo hagati harimo idarapo Rwanda, bishoboka y'uko haba ari mu Rwanda.

Umuganga uri mu cyumba kirimo ibikoresho byifashishwa kwa muganga, ndetse biragaragara nk'aho ari mu biro, kuko harimo ibikoresho byifashishwa n'intebe mudasobwa ameza.

Icyumba cyo ku bitaro ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kureba uburwayi umuntu afite mu mubiri, akaba ari igitanda aryamishwaho, kugira ngo babashe kumwoherezamo bamenye.

Icyapa kiri kugaragaza yuko ari ibitaro bya Ruhengeri, biherereye mu karere ka Musanze, byita ku bantu bafite uburwayi butandukanye.

Ahantu ha hicaye abantu bakirira abantu baje babasanga cyangwa binjiye muri iyi nyubako bitewe n'igikorwa cyakorerwa, abo bantu baje gushaka, akaba aribo babayobora kugira ngo babereke aho babanza n'aho basoreza.

Ibitanda bitandukanye byo kwa muganga, baryamishaho abarwayi, hejuru yabyo hagiye hari inzitiramibu, imbere hari ahapfuka ahari ibyo bitanda, bikaba mu mabara y'umweru ndetse buri cyose kigiye gifite amatara hejuru yacyo.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri. Hakaba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu guterura kugira ngo umuntu abashe kwagura imikaya bityo agire amatuza manini, ndetse n'ibindi byifashishwa mu gukora izindi siporo zitandukanye.

Abagabo babiri bambaye udupfukamunwa ndetse n'impuzankano y'umweru, bari gukoresha ibikoresho byo kwa muganga, byifashishwa kureba uko ibice bitandukanye by'abarwayi bimeze, bakaba bafata ingamba.

Inkoni ebyiri zikunda kwifashishwa n'abantu bafite ikibazo cy'uburwayi kugira ngo bagende zibafasha mu nzira cyane cyane nk'abantu barwaye umugongo cyangwa se zikifashishwa n'abantu bageze mu zabukuru kugira ngo babashe kubona imbaraga zo kugenda.

Umuntu w'igitsina gore wicaye warambuye akaguru n'amaboko yayashyize kuri ako kaguru yarambuye, akaba yarari gukora imyitozo ngororamubiri ariyo ifasha abantu benshi kugira ubuzima bwiza ndetse no kwirinda indwara zigiye zitandukanye, harimo nk'umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi.

Imodoka isa umweru ifite amabara atukura, inyuma hari ipine ishobora gukoresha mu gihe irindi rigize ikibazo, ikaba ari imbangukiragutabara yifashishwa mu gutabara aho bikomeye cyane cyane nk'ahabaye impanuka.

imbuto zigiye zitandukanye ndetse n'ibyo kunywa byaziturutsemo, ibyo twakwitanga nk'ibirinda indwara ndetse n'amazi bisa nkaho ari ibyakwifashishwa n'umuntu kugira ngo yirinde indwara cyane cyane ku bantu bakora siporo, na byo byazajya byifashishwa.

Umuntu uryamye ku gitanda kwa muganga wambaye inkweto z'imyitozo ngororamubiri, akaba yari ari gukorerwa ubugororangingo n'undi muntu.

Umuntu wari wunamye ari gukora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwe hari indyo umuntu akwiriye gukoresha mu gihe akora na siporo, bakaba baribanze cyane ku mbuto z'ubwoko butandukanye, nk'imineke, amacunga ndetse n'ibindi.

Umugabo w'umusore wambaye umupira w'umukara, n'ipantaro y'igitaka. Akaba ari mu cyumba cy'imyitozo ngororamubiri, akaba yari ateruye icyuma cyifashishwa mu gukora siporo ndetse no kwagura amatuza n'amaboko.

Igikapu kirimo ibikoresho by'ibanze, bishobora kwifashishwa nko mu gihe umuntu ari mu myitozo ngororamubiri, akaba yahura n'imbogamizi cyangwa akagira ikibazo n'imvune ndetse n'ibindi.

Umukinnyi w'umupira w'amaguru ari kumwe n'umuganga, biragaragara y'uko yari yagize imvune kuko umuganga yamufashe mu ivi, biragaragara y'uko ari kumukorera icyo twakwita ubugororangingo, ku ruhande rwe hari umupira w'amaguru.

Umukobwa wunamye bigaragara yuko ari gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo abashe kurwanya indwara zitandukanye.

Igikapu kirimo bimwe mu bikoreshwa mu butabazi bw'ibanze, bishobora gufasha umuntu ugize imvune mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri kugirango ngo bibe byamurinda kuba yagira izindi ngaruka zikomeye.

Igishushanyo gitangwa kwa muganga iyo umuntu amaze guca mu cyuma bamusuzuma indwara, kikaba kiri kugaragaza urutigongo rw'umuntu wanyuze mu cyuma uko rumeze kugira ngo abashe guhabwa ubuvuzi, akenshi bikaba bikunda gukorerwa abantu bafite ikibazo cy'uburwayi bw'umugongo.

Amacupa agaragara yuko arimo icyo kunywa gikoze mu ikawa nkuko bigaragara ku magambo yanditse inyuma isobanuye ngo ikawa yakonjeshejwe.

Amoko atandukanye y'imiti gakondo yifashishwa n'abavuzi ba gakondo, harimo ibigaragara nk'impu z'inyamaswa ndetse n'ibindi.

Umuti usa icyatsi bigaragara yuko ari uwa gakondo, hakaba hari ibara ry'umutuku bisa nk'aho ari umwenda wari watakayemo cyangwa se akaba umuntu wari wambaye ariko bakaba batamugaragaje wese.

Imiti gakondo y'ubwoko butandukanye bwinshi, harimo iyo kunywa, ndetse n'iyo kwisiga, bikaba biteretse ku meza, inyuma hari abantu batandukanye, abagabo, abagore, bakaba aribo bari kuyigurisha ndetse.

Ahantu bita Akagera batangira ubuvuzi butandukanye, hejuru yaho hakaba hariho ikirangantego cyaho kibaranga ku buryo uhageze ukakibona wahita wibwira yuko ariho.

Ni umuti gakondo uvura indwara zitandukanye nko mu gihe warwaye macinya cyangwa impiswi urifashishwa, uvura indwara zigiye zitadutandukanye.